Utubari twinshi usangaga dufite isuku kandi duteguye. Tuba dufite ameza n'intebe bishushanyijeho icapa ca mitsingi. Abakiriya babakiraga nk'umwami.

Iyo ugeze mu kabari usangagamo uruja n'uruza rw'abantu, babaga bari kunywa ibyo kunywa bitandukanye, nta muntu n'umwe ubaga witaye ku wundi, buri wese abaga ari mu nzu.

Inyama n'ifiriti ni nibyo biryo bikundwaga n'abantu benshi cane. Iyo bazikaranze，bakazishiraho ikirungo ziratukuraga， igitunguru naco iyo bagikatiyeho， zirushagaho kuryoha cane.

Ibikoresho byo mu rugo bikenerwaga n'abantu benshi. Ariyo mpamvu umuntu ubicuruzaga muri karitsiye, usangaga yarateye imbere kurusha abandi bose, ariko ucuruza ibinyuranye n'ibye.

Hari amasoko gwo mu caro usangaga gatubakiye, gadasakaye. Iyo imvura iguye, bashiragaho shitingi kugira ngo ibicuruzwa byabo bitanyagirwa. Bagiraga ibicuruzwa by'amoko gwose.

Iyo ugeze kuri papetori Iwacu, uhasangaga icapa kihometse kiriho nimero za nyiri papetori, uhasangaga kandi ikindi capa kigaragaza ibicururizwagamo.

Kugira ngo abantu bamenye aho ucururizaga, ni ngombwa ko ufata icapa kinini ukacandikaho amazina gawe n'ibyo ucuruzaga na nimero zawe za telefone, nyuma yaho ukagishira ahantu hagaragara, aho buri wese azaja aragisoma neza kandi ukacandika mu binyuguti bini cane.

Inyubako zigerekeranye usigaye usanga arizo zigezweho muri zino minsi, kubera ko ubutaka bwabaye butoya niyo mpamvu tugomba kububyaza umusaruro.

Gazi zibagamo amoko gatandukanye ;hari izigiraga ishiga rimwe n'izigiraga amashiga abiri. Izigiraga amashiga abiri ni zo nziza cane kuko zirihutaga mu guteka.

Amazu g'ubucuruzi iyo bashaka kugubaka neza bagahaga n'urubaraza rw'imbere, rutumaga abantu batanyagirwa baje guhaha. Ico gihe bitumaga umucuruzi agira abakiriya benshi cane.

Mu mujyi usangaga hari ahantu wacururizaga imyenda z'abana gusa zibaga ari nziza rwose icakora zirahendaga cane hajagamo abafite amafaranga menshi.

Kugira ngo abantu bamenye aho ucururizaga, ushiraga icapa kiriho izina ryawe aho abantu bose barakibona. Ugashushanyaho ibyo ucuruzaga, kugira ngo umenyekanishe ibicuruzwa byawe.

Aha ni ku iduka aho bacuruzaga ibiribwa bitandukanye birimo:" Impungure, ibishimbo, amajeri n'ibindi byinshi". Bafite umunzane gupimuraga neza gutibaga abakire.

Iyi hoteri Muhabura iri mu Karere ka Musanze, mu Ntara y'Amajyaruguru, ifite ubusitani burimo indabyo z'amoko gose, izitijwe urukuta rw'amatafari gahiye, igiraga n'amacumbi meza.

Abamotari bo mu mujyi batondaga umurongo kuri parikingi bategereje abagenzi. Iyo ufite amafaranga kadahagije utegaga umunyonzi akaba ariwe ugutwara.

Amakaro gagenewe kubaka mu bwogero, usangaga baragometse ku nkuta z'amazu g'ubucuruzi. Ibi biterwaga kenshi no kudasobanukirwa amakaro gagomba kubaka hanze ago arigo.

Iduka ricuruzaga ibikoresho bya siporo, usangaga rifite icapa kiriranga kugira ngo abakiriye bahamenye, usangagamo imipira zo gukina, amapantaro n'imipira bya siporo n'inkweto zifite amapine bakinaraga bambaye.

Gesite hawuzi ni hoteli igira amacumbi meza cyane, habamo ibitanda n'amashuka yabyo. Iyo ubakeneye, ubahamagara kuri telefone zigendanwa.

Mu isoko hari amakanzu meza maremare cyane nk'ababyeyi bambaraga bakaberwa. Hari n'agandi magufiya gambarwaga n'abakobwa bakiri batoya, yemwe harimo n'ibisarubeti byambarwaga n'abasitari.

Konfoti hoteri ni hoteri igezweho iri mu nkengero z'umugi gwa Musanze, kuri Karilisimbi mu murenge gwa Muhoza.

Mu isoko ry'ibiribwa usangagamo ibishimbo by'ibitonore ba biremesheje isoko, ibi bi biteraga inzara kuko abahinzi benshi usangaga baribagiwe ko bazasarura.

Umuntu ucuruzaga ibikoresho bikenerwaga mu gikoni abonaga abakiriya benshi, kuko bikenerwaga n'abantu benshi muri ibyo bikoresho habaga harimo:n'imbabura, amabase, n'imikubuzo ndetse n'amasafuriya.

Iyo ugiye ku Rugwiro Geste Hawuzi ntabwo wapfa kuyoba, kuko bashizeho icapa kirangiraga abagenzi aho iherereye. Genda uri gusoma neza urabona aho icapa kiri, maze ukurikirane iyo nzira.

Papetori la verite uyisangaga mu Mujyi gwa Musanze, ibagamo ibikoresho byinshi bitandukanye, ibyo bifashishaga mu biro, iby'abanyeshuri, amakaramu n'amakayi, ibitabo, umuti go gushyira mu mashini, ibyo byose ubisangaga muri iyo papetori.

Mu makekayori habagamo amaranjyi gatandukanye: hariko kwanduza n'ako kusirimura gabagagari mu ndobo agandi gari mu bijerekani.

Umusigiti gw'Abayisilamu gw'i Musanze gwubatse ku buryo bushimishije. Guri ku muhanda mu ibereshi rya mbere, iburyo bwa Feyisibuku moteri.

Inyenyeri iri i Yawunde, iruhande rw'umuhanda gwa kaburimbo bagiraga akabenzi karyoshye cane n'inzoga z'amoko gose zibaga zihari.

Inyubako zo muri iki gihe zigomba kuba zisirimutse. Hari izo bomekagaho amakaro ku nkuta zazo， ariko kandi ikibazo ni uko bashiragaho ga makaro gagenewe kubakwa muri dushe.

Ku ivomero rusange iyo amazi gabuze hirya no hino, uhasangaga abantu benshi cane. Ijerekani rimwe ry'amazi, barigurishaga amafaranga makumyabiri. Hari abazaga kuvoma bitwaje amagare, kugira batwareho amajerekani menshi.

Kuri fantasi elite dizayine, bakora ibintu bitandukanye. Bandika ibyapa by'amoko yose, bandika ku myenda ku bayishaka, bategura amazu, yewe basiga n'amarangi, ndetse n'abifuza kubyiga barabigisha.

Kuri Goyiko bacuruzaga ibigega bitandukanye mu bunini byo gufata amazi g'imvura gaturukaga ku mazu gacu. Ibiciro byabyo biratandukanye bigendeye ku bunini bwabyo.

Abantu bashiraga inyubako munsi y’insinga z’amashanyarazi, ntabwo ari byiza. Iyo habayeho ibyago by’inkongi y’umuriro, zirashaga, zigakongoka, ntihagira na kimwe kiramuka.

Olempike ni akabari gaherereye Iyawunde. Ugasangagamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, akenshi na kenshi botsaga akabenzi n'ikirayi co mu mavuta.

Kwa Ngoga fashoni shopu, usangagamo imyenda z'amoko gose iz'abagabo iz'abagore niz'abana, inkweto nazo zibaga zihari izifunze n'izifunguye.

Rozete ni umucuruzi ucuruzaga imyenda nziza z'abana, iz'abahungu niz'abakobwa. Iyo ugeze ku iduka rye, usangaga yatoranyijemo inziza zose, akazambika ibipupe.

Abanyabukorikori bagiraga aho babarizwaga bakoreraga ibikorwa byabo. Ku buryo umuntu wese ubashaka yababona. Bagiraga ibiseke byiza by'imitako n'ibindi bikoresho byo gutaka.

Amakaro usangagamo amoko menshi kandi gabaga gafite n'amabara gatandukanye, uhitagamo ibara ushaka bitewe n'amarangamutima gawe.

Muri kenkayori bacuruzagamo ibikoresho binyuranye iby'amazi , iby'amashanyarazi n'iby'ubwubatsi . Amasima nigo gabaga ari menshi , kuko gabaga gakenewe n'abantu benshi.

Hafi y'amashuli ya Inesi ku muhanda wa kaburimbo, uzamutse ugana i Gisenyi niho haba akabari kitwa Kasimbi Volukano. Bagira ibintu byiza cyane, n'ibyo kunywa bitandukanye birahaba.

Ahantu uzasanga umutaka gwa emutiyeni, uzaje uramenya y'uko bacuruzaga amayinite. Umucuruzi wagwo nubwo yaba atagwicayemo abaga ari hafi yago kugira ngo abakiriya batamuca.

Agazu g'ubucuruzi gari ku mihanda bari gutegeka ba nyirako kugavugurura, bakagasiga amarangi ndetse ku nkuta zako bakomekaho amakaro. Amakaro g'umweru usangaga gaboneye kurusha agandi mabara.

Iyo ugeze aho bacururizaga amakaro uhasangaga ubwoko bw'amakaro gatandukanye, hari akagenewe kubakishwa mu nzu bisanzwe , n'agagenewe kubakishwa mu bwiherero no mu bwogero. Uhitagamo ibara ushaka cangwa ukundaga.

Muri bare usangagamo ibyo kurya n'ibyo kunywa byose ushaka. Akenshi na kenshi usangaga bafite n'amacumbi，bacumbikira buri wese ubyifuza，ni ngombwa kuhagirira isuku， kuko hakenerwaga n'abantu benshi.

Banki ya Kigali ishami rya Butaro riherereye ku Rusumo, inyubako yaryo iri iruhande rw'umuhanda gw'ibitaka, igiraga abakiriya benshi kuko ikundaga gutanga inguzanyo.

Inyubako z'izi minsi zifite ibisenge bitandukanye n'ibyo iza kera. Amabati gameze nk'amategura nigwo gagezweho muri izi minsi.

Kwifotoreza kuri pisine ifoto yaho izaga ari nziza cane kubera ko habaga hari amazi gafite ibara ry'ubururu usangaga n'ifoto iri gusa na gomazi.

Bazita geste hawuze uyisangaga mu Karere ka Musanze, igiraga amacumbi by'umwihariko iyo ubakeneye uri mucumba baguhaye, uhamagaraga nimero zibaga zirimo bakaza bakaguha ubufasha ushaka.

Hoteli igomba kuba yubakitse ifite n'ubusitani buri mo indabyo z'amabara gwose. Iyo bayubatse mu gashamba bibaga ari akarusho. Kuko abenshi barayikundaga bakurikiye akayaga gakururwaga n'ibyo biti biri muri iryo shamba.

Volukano Atisenta ni ahantu hari inyubako zabugenewe zikorerwagamo imitako n'ubundi bukorikori bukururaga ba mukerarugendo n'abandi banyamahanga.

Fatima Hoteli niyo nyubako nziza cane usangaga mu Mujyi gwa Ruhengeri, yubakishijwe ibirahuri by'ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cane bw'indabo, yubatswe iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu za kijambere nizo zigezweho muri izi minsi, zibaga zisakajwe amabati gameze nk'amategura, imbere yaho bashyiragaho intebe bateganyirizaga abashitsi baje kubasura bagasanga ntabariyo.

Inyubako zigezweho muri izi minsi, zigomba kuba zisakajwe amabati gakomeye gameze nk'amategura. Inkingi zazo zigomba kuba zubatswe mu byuma, kandi zirimo isima nyinshi. Imbere y'izo nyubako habaga hariho amazi, gagenewe kogwamo na buri wese ubyifuza.

Aha ni mu ruganiriro, hasa neza cyane, harateguye bahagirira isuku, harimo ameza ateguye n'akarabo n'ikibumbano k'iingagi.

Icumba co kuraramo kigirirwaga isuku ku buryo buri wese akirerebaga akacifuza gihoraga gishashe kirimo inkweto zo guhagurukiramo gifite n'imisego kibaga kirimo n'intebe iyo ushaka kwicara wicaragaho.

Mu binyobwa bidasembuye, habagamo na Fanta bitaga Novida. Iraryohaga, ibaga mu icupa ry'icatsi, ibaga iriho icapa cy'umuhondo, canditseho 'Novida'. Iyo uyifunguye, irabiraga, igiraga urufuro.

Mu isoko ry'ibiribwa habagamo amoko g'ibirayi gatandukanye. Ibiciro byabyo nabyo bibaga bitandukanye, umuguzi yishuraga agendeye ku byo akundaga cyangwa se ku bushobozi afite.

Mu isoko ry'inkweto hari aho usangaga hacururizwaga inkweto zifunze za supuresi. Zibaga zifite amabara gose. Iz'umweru, iz'umukara zivanze n'izindi zirimo amabara menshi.

Ibirayi bya kinigi bireraga cane kandi biraryoha. Iyo wabyitayeho byeraga ibirayi binini. Mu isoko usangaga aribyo abaguzi bari gukunda.

Ibyombo nibi ibikoresho byo mu rugo bikenerwaga na buri wese, umucuruzi ubicuruzaga arungukaga cane bigomba kuba birimo amabase, amasafuriya, ibikombe byo kunywesha n'ibindi byinshi.

Mu isoko ry'ibiribwa usangagamo imbuto zitandukanye z'amoko gose, kugira ngo uzigure bisaba ko uba ufite amafaranga gahagije kuko zirahendaga cane.

Muri supamaketi hahahiragamo abakire bagiraga amafaranga kuko habagamo ibintu by'igiciro. Nta mukene uhahiragamo.

Muri iri duka harimo ibintu byinshi cane. Ariko nkundaga guriya muceri guri mugafuka k'umuhondo na gariya mata gari mu gakarito ndagakundaga.

Intoryi n'imiteja biragurwa cyane, kubera ko tubibara mu bwoko bw'imboga. Iyo zimaze iminsi, ziratukura abantu ntibazikunde, ariko imiteja yo n'iyo yamara icyumweru, usanga nta cyo ibaye.

Mu isoko usangaga harimo ibiribwa by'amoko gose bitandukanye. N'uko amafaranga gabuze, naho ubundi ibyo kurya byo birahari, hari inyanya, hari imbuto, hari amavuta, hari n'ibindi byinshi, ico ushaka cose ugisanga hano.

Mu isoko hari ahantu bacururizaga imyenda z'abana bavutse uhasangaga ibitambaro by'amoko gose byo kubafatiramo, ibishora byo kuborosa, imyenda nziza zigezweho zo kubambika.

Aya mavuta yo kwisiga yitwa Giriserine. Iyo wayisize ugira uruhu rwiza. Kugira ngo atubuke, ni byiza kuyavanga n'ariya yandi ari mu icupa rinini.

Iyo ushaka imbuto ujaga kuzishakira mu isoko ryazo. Usangagamo iz'amoko gose. Habagamo ibinyomoro, amapera, watameloni n'izindi nyinshi zitandukanye.

Mu isoko habagamo amamare manini cane g'abageni, hari n'agandi matoya g 'abanyeshuri gafite ibara ry'ubururu. Abatagashaka baguraga n'amavarize nago gabaga gahari.

Mu isoko ry'imboga bibaga byiza cane iyo usanzemo abahinzi bazihengeye, babaga bari kugurisha ku giciro kiri hasi, iyo ugize ibyago usangaga batashe ukagura n'abacuruzi, kandi icyo gihe baraguhendaga.

Iyo ugeze aho bacururizaga ibyombo, usangagaho amabara gatandukanye g'ibikoresho byo mu gikoni, uguraga ibyo ushaka ugendeye ku mabara ukundaga.

Mu isoko ry'imboga habagamo imboga zitandukanye z'amoko gose habagamo beterave n'ibindi bintu bimeze nk'ibihaza bitaga kokombure habagamo urusenda ndetse n'imboga na tungurusumu byose ubisangagamo.

Umwembe ni urubuto rukundwaga n'abantu benshi. Iyo gweze gusaga n'umuhondo imbere n'inyuma. Ni ngombwa kuwurya ubanjije ku kugoza kugira ngo wirinde indwara ziterwaga n'umwanda.

Abantu bacuruzaga ibyombo usangaga akenshi na kenshi bafite n'ibikoresho byo mucikoni. Imbabura go gutekaho, umwuko go kuvuga umutsima ndetse bakanawifashisha bari guteka igikoma.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto rirubakitse cane, usangagamo uruja n'uruza rw'abantu bari gushakamo imbuto zo kujanira abarwayi babo kuko ryegereye ku bitaro.

Amasoko menshi go mu caro, amenshi karangwaga n'akajagari aho usangaga ibicuruzwa byabo babitaditse hasi, ico gihe ubonaga ko byateye umwanda.

Aga mavuta gararyohaga cane, cane cane aga ng'aga gari mu macupa, ariko kandi niyo wabuze amikoro, upfaga kurya ago mu majerekani nago nta kibazo.

Iyo ugeze mu isoko ry'imboga, usangamo imboga z'amoko yose. Ibihaza biba birimo, ibitunguru n'insenda, ndetse na za betirave. Iyo bimaze igihe, birabora bigagateza nyirabyo igihombo.

Aho bacururizaga ibikoresho by'ubukorikori usangagamo n'ibiseke bifite amabara gose iyo bakiboshe bari kukivangira amabara neza usangaga ari cyiza cane.

Isambusa ziraryohaga cane abantu benshi barazikundaga zibaga zikoze mu nyama, ifarini n'igitunguru, bazitekaga mu mavuta zibaga ziri guhumura hari n'izo bashiragamo urusenda.

Izi nkweto zitwaga caguwa ni inkweto zikomeraga cane harimo izifunze ndetse n'izifunguye zitwaga sandari umuntu uzambaye ubonaga aberewe cane.